Abagabo batatu harimo uwambaye umupira w'umutuku afite agacupa k'amazi mu ntoki ze, abandi babiri bambaye imipira y'umweru, umwe yambaye amadarubindi n'ipantaro y'umukara, undi yambaye ipantaro y'ubururu.

Ibihe nk'ibi ntibyabaho hatabayeho icyizere, urukundo, ubwitange n'ubwuzuzanye hamwe na turi kumwe ubwishingizi bw'ubuzima, ibyishimo bisesuye ku buzima bwawe, ahazaza hawe n'abawe kanda kanyenyeri gatanu, gatatu, rimwe, urwego.

Kuki ukwiriye kutwizera mu gihe ukeneye ubwishingizi? Ibereho mu mutuzo ntagereranywa n'ubufasha bw'umwihariko bwa serivisi butangwa ku buntu amasaha makumyabiri n'ane kuri makumya n'ane, iminsi irindwi kuri irindwi binyuze mu guhamagara. Nitwe bambere twazanye iyi serivisi mu Rwanda hagamijwe gukemura ibyifuzo byawe kandi bigakorwa tutagukerejeho umunota n'umwe.

Turi kumwe! Gura ubwishingizi bw'ubuzima bwawe n'umuryango. Kanda akanyeri gatanu gatatu rimwe urwego, Radiant.

Ungukirwa uko urushaho guhahira no kunywesha ikinyabiziga cyawe esansi kenshi mu bafatanyabikorwa bacu batandukanye ni na ko urushaho kongera amahirwe yo kubona ubwishingizi kandi nta kiguzi utanze.

Radiyanti yacu turi kumwe, turi kumwe mu rugendo rwawe tuguha ubwishingizi bw'ubuzima kanda akanyenyeri gatanu gatatu rimwe urwego.

Gura turi kumwe ubwishingizi buhendutse bw'ubuzima kanda akanyenyeri gatanu, gatatu, rimwe, urwego wikendi nziza.

Radianti ubwishingizi bw'inkongi y'umuriro. Ese waba uteganya iki mu gihe inyubako yawe yakwangizwa n'inkongi y' umuriro? Gana ubwishingizi bwa radiyant tuguhe ubwishingizi bw'inkongi yumuriro.

Inyubako ndende cyane iherereye mu mujyi rwagati ikaba ifite amabara asa n'igitaka, hakaba hakoreramo isoko rinini cyane ricuruzwamo ibyo kurya n'ibikoresho bitandukanye byo mu rugo bakaba baryita simba.

Serivisi za banki: kwishyura ibikorwa remezo, kwishyura imisoro namahoro, gusaba inguzanyo, kuvunjisha amafaranga y'amanyamahanga, gusaba agatabo ko kubikuza gusaba ikarita, gusaba izindi serivisi ndetse n'amashami yo kuzigama.

Iduka ricururizwamo amakanzu ndetse n'imitako y'abagore harimo amakanzu afite uburebure butandukanye ndetse n'amabara atandukanye, harimo amabara y'umuhondo, umutuku, ubururu ndetse n'umukara.

Iduka ririmo utubati dupanzeho ibitenge byabagore, bifite amabara atandukanye, harimo ibivangiye amabara nk'ubururu, umutuku, umweru, ndetse harimo n'ibivangiye amabara y'umukara ndetse n'umuhondo.

Inzu icuruzwamo inkweto zo kwambara, hakaba harimo akabati gakozwe mu cyuma kamanikwaho inkweto, hakaba hariho inkweto zitandukanye, hariho iza siporo n'izo kurimbana, harimo amabara y'umuhondo, umukara, umweru, n'umutuku.

Inzu irimo abakobwa babiri ndetse n'abagabo umwe wirabura n'undi w'umuzungu, hakaba hacururizwamo imyenda harimo amakote y'ubururu, amashati y'umweru ndetse n'amapantaro y'ubururu, hakaba harimo n'amashati y'umukara ndetse n'ay'ubururu.

Iduka risizemo amarangi y'umweru harimo inkingi enye, hakaba hacururizwamo imyambaro yo kwambara, harimo amashati yavanzemo amabara y'umweru n'umukara, ndetse n'amakanzu y'abadamu.

Abagabo bane, umwe yambaye ingofero mu mutwe y'umweru ndetse n'ikoti ry'icyatsi kibisi, ahagararanye n'abandi bagabo batatu, mu biganza byabo bafashe ikimenyetso cyanditseho Akagera, iruhande rwabo hari imodoka isa n'ifeza ifunguye imiryango.

Inzu ifite amarangi y'umweru ndetse n'asa n'igitaka nk'imbere harimo imodoka zisa zifite amabara atandukanye harimo umutuku n'umweru hakaba hacururizwa imodoka z'ubwoko bwa Yundayi.

Imodoka ifite ibara risa n'ifeza, ikaba ihagaze ifite amapine y'umukara, ikaba iri mu bwoko bwa shyundayi, yanditseho isoko rya Kigali ry'imodoka.

Abagabo babiri umwe yambaye ishati y'umukara, ingofero y'ubururu, undi yambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara, bafite ikirango cyanditseho akagera, inyuma yabo hari igikamyo gifite ibara ry'umweru.

Imodoka yo mu bwoko bwa toyota isa n'umukara, ikaba yanditseho isoko rya kigali ry'imodoka, ikaba igurishwa, ikaba yarakozwe bibiri nacumi nakarindwi iri kugurishwa miliyoni mirongo itatu z'amanyarwanda.

Imodoka nyinshi cyane zifite amabara y'umweru n'umukara, zikaba zifite imiryango ine zo mu bwoko bwa Toyota, zikaba zose zihagaze ziri mu cyanya zagenewe kugurishirizwamo.

Imodoka y'umukara ifite amapine y'umukara n'amatara y'umutuku, ikaba ar'iy'ubwoko bwa kiya ikaba yanditseho isoko rya kigali ry'imodoka ikaba ihagaze.

Imodoka eshatu zo mu bwoko bwa toyota zifite ibara ry'umweru n'umukara, zikaba zihagaze ziri ku muhanda w'igitaka aho zicururizwa.

Imodoka y'umweru ihagaze ikoreshwa mu gutwara abagenzi, ikaba ifite amabara y'umweru n'umukara y'ubwoko bwa Yundayi, ikaba ifite ubushobozi bwo kujyamo abagenzi mirongo itatu na babiri.

Imodoka yo mu bwoko bwa toyota ifite amabara y'umukara ikaba icanye amatara yanditseho isoko rya Kigali ry'imodoka ikaba ari imodoka yakozwe bibiri na cumi n'umunani ikaba igurishwa miriyoni cumi n'eshatu z'amanyarwanda.

Umugabo wirabura wambaye imyenda irimo amabara y'umutuku handitseho Toyota, ahagararanye n'undi mugabo w'umuzungu wambaye ishati irimo ubururu ndetse n'uturongo tw'umweru, yambaye isaha ku kaboko ke k'ibumoso...

Imodoka y'ibara ry'umweru yo mu bwoko bwa Suzuki, ikaba iri kugurishwa yakozwe bibiri na cumi n'umunani, ikaba yanditseho isoko rya Kigali ry'imodoka ikaba iri kugurishwa miriyoni cumi n'umunani z'amanyarwanda.

Ameza ariho inote ikoresha mu gihugu cy'u Rwanda nshyashya, ikaba ari inote ishushanyijeho uduseke yanditseho banki nasiyonali y'u Rwanda, ikaba ifite agaciro k'ibihumbi bitanu by'amanyarwanda.

Umuhungu n'ubukobwa b'abirabura, bambaye udupfukamunwa tw'umukara, umuhungu yambaye ikoti, ishati yumweru na karuvate, yicaye, imbere ye hari mudasobwa, n'umukobwa yambaye ikoti ry'umukara, imbere ye na we hari mudasobwa, hari n'amacupa y'amazi y'inyange.

Amafaranga y'ibiceri aba akozwe mu byuma, akaba afite ibara rya zahabu, akaba yarakozwe mu gihumbi kimwe maganacyenda mirongo irindwi na karindwi, akaba ari amafaranga ya banki nasiyonari y'u Rwanda, akaba angana na makumyabiri ashushanyijeho insina n'igitoki.

Ubwoko bw'amafaranga bw'inote bufite ibara ry'icyatsi harimo amashusho y'inka z'inyambo ndetse harimo n'ubwatsi. Ikaba ari inote yo mu gihugu cy'u Rwanda yemejwe na banki nasiyonali y'u Rwanda ikaba ifite agaciro k'igihumbi.

Inzu isize ibara ry'umweru, harimo umugore wambaye ikanzu y'umutuku. Harimo icyuma cy'amata gishinzwe kuyakonjesha ndetse no kuyagira neza, kugirango abayagura basange akimeze neza.

Inzu isize amarangi y'umweru n'ubururu ikaba harimo akabati gateretsemo amacupa y'amazi, muri iyo nzu harimo n'icyuma gisize amarangi y'umweru n'ubururu kirimo amata kikaba kiyatunganya neza.

Inzu yubakishijwe amatafari ya rukarakara, hariho icyapa cyamamaza amata ya mukamira, hakaba hasizeho amarangi y'umweru n'umuhondo, hakaba hacururizwa amata, hakaba harimo icyuma kiyakojesha gituma atangirika.

Inzu yubakishujwe amatafari ya rukarakara imbere harimo imashini ikozwe mu cyuma isize amabara y'ubururu ndetse n'umweru ikaba ari imashini ijyamo amata hanyuma ikayatunganya igatuma adapfa.

Imeza y'umukara iteretseho akabido k'umweru kariho agapapuro k'umweru, karimo amata k'aba kangana na ritiro eshanu.

Inzu isizemo amabara y'umweru ndetse n'ubururu, ikaba ari inzu icuruzwamo amata yo kunywa harimo inshyushyu ndetse n'ikivuguto, hicayemo abasore babiri ndetse n'umukobwa umwe, imbere yabo hari ameza ateretseho amata bari kuyanywa.

Umugabo wambaye ishati y'umukara ndetse n'ipantaro, ari aho bacururiza ibyo kunywa harimo amazi ndetse n'amata, hakaba harimo igikoresho kimeze nk'ingunguru gisize amarangi y'ubururu n'umweru, ari cyo kiba kirimo amata kiyatunganya kugira ngo adapfa.

Akabati k'ubururu gateretseho ibikoresho by'ibiryo bitandukanye, harimo igikoresho gishyushya amazi, ndetse n'igituma icyayi kidakonja, hakaba hateretsemo n'utudobo turimo ibiryo nk'amandazi n'amasahane.

Imeza iteretseho agasorori gasa n'ubururu hejuru hariho ibiryo bikorwa mu ifarini byitwa isambusa, mu imbere yabyo hakaba harimo inyama z'ubwoko butandukanye inka cyangwa se ihene.

Umukobwa wambaye ishati y'umukara afite akabido karimo amata y'ikivugoto ari gusuka mu bikombe by'ibirahure biri ku dusahane tw'umweru bikaba biri kumeza ateguyeho igitambaro.

Icyumba gisize amarangi y'umweru ndetse n'ubururu, harimo imashini ikozwe mu cyuma, ikaba ari imashini itunganya amata, igihe umuntu ayishyizemo amata irayatunganya igatuma adapfa.

Inote zitandukanye zikoreshwa nk'amafaranga mu bihugu bitandukanye harimo nk'amayero akoreshwa mu Bwongereza, hakaba harimo inote ifite ibara ry'umweru n'icyatsi rifite agaciro k'ijana ndetse n'inote ikoreshwa mu Rwanda ifite agaciro k'ibihumbi bibiri n'indi ikoreshwa mu Rwanda ifite agaciro k'ibihumbi bitanu n'amadolari akoreshwa muri leta Zunze Ubumwe za Amerika afite agaciro k'ijana.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga kirimo ishusho y'umutuku yanditseho ubonye amafaranga y'amanyarwanda magana atanu kuri konti yawe ya Airtel.

Inoti zirindwi zifite agaciro gatandukanye, hari izifite agaciro ka magana atanu n'izifite agaciro k'igihumbi, zikaba ari inoti zikoreshwa mu gihugu cy' Ubuhinde, ziriho ifoto y'umugabo bita Mahatimadandi.

Amafaranga yitwa amadolari akoreshwa mu gihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika ndetse no hanze yacyo, afite agaciro k'ijana, ari gushyirwa mu mashini ifite ubushobozi bwo kubara amafaranga menshi mu mwanya mutoya.

Inote ebyiri ziriho amashusho y'umugore ndetse n'indi iriho ishusho y'umugabo, Ikaba ari inote ikoreshwa mu gihugu cya Tanzaniya, ndetse ikaba yemejwe na Banki nkuru yo muri Tanzaniya, zikaba zifite agaciro ka magana atanu.

Amafaranga y'ubwoko bw'inoti akoreshwa mu gihugu cy'Ubuhinde, akaba ariho ishusho y'umugabo bita Mahat Magandhi akaba afite agaciro k'amafaranga atanu, zikaba ari inoti icumi.

Amafaranga yo mu bwoko bw'amadolari akaba akoreshwa mu gihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika ndetse no hanze yacyo akaba ari mu mashini ibara amafaranga menshi akaba afite agaciro k'ijana.

Umugabo afite mu ntoki ze inoti ebyiri z'amafaranga akoreshwa mu Buhinde, yemewe na banki nkuru yo mu Buhinde, akaba ari inote ziriho ishusho y'umugabo bita Muhatima Gandi, inoti imwe ifite agaciro ka magana atanu n'indi ifite agaciro k'igihumbi.

Inoti z'amafaranga zitandukanye zikoreshwa mu bihugu bitandukanye, harimo iz'amadolari akoreshwa muri leta zunze ubumwe z'Amerika n'ahandi hose ku isi ifite agaciro k'ijana, harimo n'izindi note zifite agaciro ka magana atanu ndetse n'izindi zifite agaciro k'igihumbi.

Ahacururizwa ibikoresho byo mu nzu, harimo nk'intebe zifite amabara y'umweru ndetse n'izindi zifite amabara y'icunga, hakaba hari n'imeza zayo ndetse n'utumeza dutoya, dufite amabara y'umweru, ndetse n'amabara asa na zahabu.

Imeza isa n'igitaka ndetse n'utundi tumeza twayo turi hejuru natwo dusa n'igitaka ikaba iri hanze ikaba igurishwa n'imeza ubona ko ikomeye ikozwe mu biti ndetse isa neza.

Imeza iteretseho indabyo ikaba ifite ibara risa n'igitaka, izengurutswe n'intebe esheshatu zisa nayo, ikaba iri mu nzu isizwemo amabara y'umuhondo ndetse irimo n'izindi meza ndetse n'intebe zigurishwa.

Inzu igurishirizwamo ibikoresho byo mu rugo nk'intebe, hakaba harimo intebe zifite imisego y'umweru ndetse zifite n'ibara ry'umukara, zikaba ziteretse mu nzu irimo amakaro hasi.

Intebe isa n'igitaka ikaba irimo imisego isa n'umuhondo, iteretse mu nzu mo imbere. Inzu ikaba irimo amakaro, hirya yayo hari utundi tubati turimo ibikoresho bitandukanye.

Intebe zifite amabara y'umukara ndetse n'ubururu akaba ari intebe eshatu zo kwicaramo zo gutegura mu nzu, zikaba zifite imisego irimo amabara atandukanye harimo umuhondo ubururu bufashe ndetse n'ubururu bubisi.

Imeza zitegurwa mu nzu nziza, zifite amabara y'ubururu ndetse zifite n'utumeza dutoya twazo n'imisego yazo zikaba ziri hanze imbere y'inzu isize amarangi y'umuhondo, ifite inzugi z'ubururu.

Inzu isizemo irangi risa n'igitaka, isizemo n'irangi ry'umweru hakaba harimo na tereviziyo akaba ari insakazamashusho. Mu tubati tuyikikije harimo ibitabo n'ibindi bikoresho byo mu nzu.

Aho abantu bari ku rugendo barara hitwa muri hoteli hafite pisine irimo amabara y'ubururu ndetse n'umukara, ikaba yogerwamo n'abantu bashaka gukaraba.

Icyumba gisize amarangi y'umweru, kikaba ari icyumba cyagenewe gutegurirwamo amafunguro, harimo ibikoresho bitandukanye, harimo nk'utubati two kubikamo ibiryo ndetse n'akuma gashyushya ibiryo, n'ibikombe byo kunyweramo amazi cyangwa ibindi binyobwa.

Inzu yubakishijwe amatafari ya rukarakara igeretse inshuro imwe, ikaba ifite ubusitani hanze buteyemo ihema ndetse n'udutebe two kwicaraho igihe abantu bashaka kuganirira hanze cyangwa se gufata akayaga.

Icyumba kinini, cyagenewe gukorerwamo inama, gisizemo amarangi y'umweru, hakaba harimo n'amarido atuma urumuri rutinjira, harimo ameza manini ndetse n'intebe z'umukara n'itapi y'umutuku, ku meza hateretseho amacupa y'amazi yo kunywa.

Inzu igeretse inshuro eshatu ikaba imbere yayo hari umuhanda w'umukara ucamo imodoka zitandukanye harimo amapikipiki, ibikamyo ndetse n'imodoka z'abagenzi ikaba ari inzu icanye amatara kubera ko ari mu ijoro.

Icyumba gisizemo amarangi y'umweru n'umuhondo, harimo amarido abuza urumuri kwinjira ruvuye mu madirishya, harimo indorerwamo, imeza iteretseho ibikombe by'ibirahure n'intebe zo kwicaramo.

Abakobwa babiri umwe yambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru, undi yambaye ishati y'umweru bari mo imbere inyuma y'akabati, aho bakirira abakiriya babagana.

Inzu irimo amabara y'umweru ndetse n'ubururu, hakaba hicayemo abantu batandukanye harimo abatanga serivisi imbere yabo hari mudasobwa bafasha aba bagana bashaka ubwishingizi.

Inzu irimo intebe zitukura, harimo n'umugore wicaye ku ntebe y'umukara, akaba asutse imisatsi, imbere ye hari akabati gateretseho mudasobwa, akaba ashinzwe kwakira abagana ubwishingizi.

Inzu yubakishijwe amatafari ya rukarakara isize amarangi y'umweru n'umukara ifite amadirishya asize umukara, imbere y'iyo nzu hakaba hari umuhanda w'umukara wagenewe guhagarikamo imodoka, ikaba ari inzu ikorerwamo n'ubwishingizi.

Umugabo munini ari mucyumba gisize amarangi y'umweru ahagaze yemye yambaye ikoti ry'umukara, ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara; yambaye n'ishati yumweru inyuma ye hari ameza y'umweru n'itebe z'umukara.

Inzu ifite irangi ry'umweru ikaba ikorerwamo n'ubwishingizi bwa sonarwa. Ubwishingizi bukaba bugufasha kukugoboka igihe wahuye n'ibyago. Bukaba bufite icyicaro ku kinamba.

Icyumba cyo gukoreramo inama, gisize amarangi y'umweru, harimo ameza manini azengurutsweho n'intebe z'umukara, hicayemo abantu batandukanye harimo abagabo n'abagore, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi y'Inyange.

Mukiriya wacu tunejejwe no kubamenyesha ko access Banki y'u Rwanda ifatanyije n'ikigo k'igihugu k'imisoro n'amahoro yabateguriye amahugurwa y'umunsi umwe ku bijyanye n'umusoro ateganyijwe itariki icumi, kamena, bibiri na makumyabiri na rimwe, saa tatu kugeza saa munani z'amanywa kuri hoteli.

Saba inguzanyo ya nida usohoze umugambi wo kwiga gutwara imodoka, hamagara kuri gatanu rimwe makumyabiri bagufashe.

Icyumba gisizemo amarangi y'umweru ndetse n'icyatsi, harimo intebe z'umukara, ndetse zo kwegamwaho, akaba ariho bakirira abakiriya bakeneye ubufasha.

Inzu isize amarangi y'umweru n'umutuku ndetse irimo imbaga nini y'abantu, yiganjemo abagabo n'abagore, irimo n'amakaro hasi, hakaba harimo abagabo bambaye amakoti n'abandi bambaye imipira isanzwe.

Isoko ricuruzwamo imyenda harimo nk'ibitenge by'abagore bimanitse birimo amabara atandukanye, harimo amabara nk'icyatsi, umutuku, umuhondo, ubururu ndetse n'andi mabara asa n'icunga.

Isoko ririmo abantu benshi harimo n'umudamu wirabura wambaye igitenge, hacururizwamo imyenda, ibyo kurya ndetse n'ibindi bintu byose, hakaba harimo imyenda y'abagabo, abana n'abagore y'amabara atandukanye.

Isoko rigeretse inshuro enye rinini cyane ryubakishijwe ibirahure hasizeho n'amarangi y'umuhondo ndetse n'umweru, akaba ari isoko rya Nyarugenge ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye harimo: ibyo kurya, imyenda ndetse n'ibikoresho byo mu rugo.

Isoko ricururizwamo imyenda harimo iy'abagabo, abana ndetse n'abagore hakaba harimo imyenda ifite amabara atandukanye harimo amabara y'umutuku, umukara, icyatsi ndetse n'umuhondo.

Isoko ricururizwamo imyambaro harimo nk'inkweto zitandukanye, harimo gucamo abantu benshi bivanzemo abagabo n'abagore, hacururizwamo inkweto z'amabara atandukanye, umweru umutuku umukara n'umuhondo.

Isoko ricururizwamo ibiribwa harimo n'imbuto nshya ndetse n'imboga, harimo inyanya, intoryi, karoti, ibishyimbo n'ibitunguru ndetse n'imiteja.

Isoko risize amabara y'iroze riherereye mu karere ka Nyarugenge, mu murenge wa Nyarugenge akaba ari isoko rinini ricururizwamo ibikoresho, ibiribwa ndetse hatangirwamo na serivisi nyinshi zitandukanye.

Amazu aherereye mu mujyi wa Kigali afite amabati y'umutuku, ndetse andi afite amabati y'ubururu asize amarangi y'umweru ndetse n'umuhondo, imbere y'ayo mazu haparitse ibinyabiziga bitandukanye harimo n'ibikamyo bipakira imizigo, ndetse n'imodoka z'abagenzi zisanzwe.

Umukobwa wirabura yicaye mu isoko ahacururizwa ibiribwa ndetse n'imbuto zitandukanye, harimo: inyanya, imyembe, imineke ndetse n'ibihaza, hakaba harimo ndetse na biringanya.

Isoko ricururizwamo ibyo kurya bitandukanye harimo ndetse n'imbuto, imbuto harimo nk'avoka amacunga, imyembe harimo n'imineke hahagazemo umukobwa ari kuganira n'umugabo wambaye umupira w'umutuku.

Isoko ricuruzwamo imyenda myinshi itandukanye, harimo amapantaro, amashati, imipira, biri mu bigero bitandukanye, harimo iby'abagabo n'iby'abagore, harimo n'amakote ndetse harimo n'imyenda y'abana.

Isoko rinini ririmo abantu benshi bavanze abagabo n'abagore akba ari isiko ricururizwamo imyambaro yo kwambara hakaba harimo iy'abagabo iy'abana n'abakozi hakaba harimo n'imitaka myinshi y'umuhondo ikorerwamo n'abakozi ba emutiyeni.

Isoko ricururizwamo ibiribwa harimo nk'imbuto, zirimo imyembe, voka ndetse n'amapapayi, harimo abagore babiri, umwe ari umuguzi undi ari kugurisha, ari kumushyirira mu gashashi.

Isoko ricururizwamo imyenda yo kwambara harimo iy'abana nk'amapantaro y'amakoboyi ndetse n'ayandi n'udukabutura tw'abana tuvanzemo amabara atandukanye harimo utw'ubururu ,umuhondo, umutuku ndetse n'icyatsi.

Isoko ricururizwamo ibyo kurya harimo imboga nk'inyanya ndetse insenda, ibitunguru, hakaba harimo umugabo ndetse n'umugore wambaye agatambaro mu mutwe k'umukara n'amaherena, umugabo yambaye ishati ari kumuhereza.

Isoko rigurishirizwamo ibikoresho bya gakondo byo mu Rwanda, harimo inkoko, uduseke ndetse n'ingofero, hakaba harimo n'ibikapu bikozwe mu bitenge.

Utuzu tubiri dukozwe mu cyuma dushinze ku muhanda, kamwe gafite amarangi y'umuhondo kamamaza MTN harimo n'umukozi wayo, akandi gafite amabara y'umutuku kamamaza Airtel karimo umukozi ushinzwe gutanga serivisi.

Inzu isize amarangi y'umuhondo imbere yayo hari akazu gakozwe mu cyuma gasize irangi ry'umuhondo, kanditseho emutiyene mo imbere harimo umugabo wambaye akajire k'umuhondo, akaba ari umukozi ushinzwe gutanga serivisi zijyanye n'iyi emutiyeni.

Umugabo wambaye umupira w'umutuku ndetse n'amadarubindi ahagararanye n'undi wambaye akajire k'umuhondo n'umupira w'umweru uciyemo uturongo tw'ubururu inyuma yabo hari umutaka w'umuhondo wanditseho emutiyene.

Ahacururizwa ibikoresho ndetse n'ibiribwa bitandukanye, isoko rinini, hahagazemo umugore ukuze, yambaye ikanzu, ndetse ahagararanye n'undi mukobwa wambaye umupira w'umuhondo, urimo amabara y'ubururu.

Umukobwa wambaye umupira w'umuhondo wanditseho momo, ari munsi y'umutaka ufite ibara ry'umuhondo, wanditseho momo, arimo aratanga serivise za emutiyene, harimo nko gutanga imipira ndetse n'amacupa.

Abantu benshi bahagaze munsi y'ihema risa umutuku ryanditseho eyateli, hakaba harimo abagabo bambaye imipira y'umutuku ndetse n'abandi bambaye amashati y'ubururu, ndetse n'amapantaro y'umukara n'ubururu.

Akazu gakozwe mu cyuma, gasize amabara y'umuhondo yamamaza MTN, mo imbere harimo umukozi wayo ushinzwe gufasha abayigana. Hakaba hahagaze abagabo batatu n'abagore babiri. Mo imbere harimo umukobwa.

Akazu gakozwe mu cyuma kaba gateretse ku muhanda gasize amabara y'umuhondo kamamaza MTN, mu imbere haba hicayemo umukozi utanga serivisi za MTN, hakaba harimo umusore wambaye agapira karimo imirongo y'umweru.

Umugore wicaye ari kumwenyura yambaye igitambaro mu mutwe n'ingofero yambaye itaburiya ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu afite igipapuro cyanditseho kode ya momo yo kwishyuriraho.

Akazu k'icyuma gasize amabara y'umuhondo kamamaza MTN, gatangirwamo serivisi zayo, hakaba mo imbere harimo umukobwa usutse imisatsi yirabura, yambaye ishati y'umweru.

Akazu gakozwe mu byuma gashinze ku muhanda, gasize irangi ry'umuhondo gakoreramo umukozi wa emutiyene ushinzwe gutanga serivisi zayo, imbere yako hakaba hahagaze umugabo wambaye ishati y'umuhondo n'ipantaro y'umukara.

Abagabo babiri bambaye imipira y'umuhondo umwe yambaye ipantaro yumukara undi yambaye ipantaro y'ubururu, bari gusuhuzanya bafatanye ibiganza inyuma yabo hahagaze abantu bavanzemo abagabo, n'abagore n'abana.

Akazu k'icyuma kaba gashinze ku muhanda gasize amarangi y'umuhondo kamamaza MTN, hakaba hakoreramo umukozi uba ushinzwe gutanga serivisi z'abashaka kubikuza ndetse no kubitsa amafaranga.

Abagabo batanu, bane bambaye udupira tw'umuhondo tuvanzemo n'umukara undi yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ubururu bakaba bahagaze imbere y'inzu yubakishijwe n'ibibati bisize amarangi y'umuhondo ndetse n'ubururu.

Akazu k'icyuma kaba gashinze ku muhanda gafite ibara ry'umuhondo rya emutiyene, hakaba mo imbere harimo umukobwa ari kuvugana n'abagabo babiri bari inyuma bambaye imyenda ya kaki.

Inzu isize amarangi y'umuhondo ndetse n'umukara iri kwamamaza emutiyene handitseho ryoherwa n'umuvuduko wa interineti ya foji aho waba uri hose.

Umusore wicaye ku ipikipiki y'umukara, akaba yambaye umupira w'icyatsi n'ipantaro y'umukara afite ingofero y'ubwirinzi, iyo pikipiki ifite isanduku y'icyatsi n'umukara ishyirwamo imizigo yo kujyamo.

Ipikipiki ifite amabara y'umutuku n'umukara iteretseho isanduku yanditseho yego n'imibare mirongo icyenda na rimwe mirongo icyenda na rimwe, ikaba ari isanduku ishobora kujyamo imizigo, iruhande rwayo hari umugabo wambaye agapfukamunwa k'umukara n'ipantaro y'umukara.

Umugabo uhagaze inyuma yipikipiki yambaye ishati y'cyatsi yanditseho vuba vuba n'ipantaro yubururu yambaye n'ingofero y'ubwirinzi akaba ari gufata mu isanduku iteretse ku ipikipiki yanditseho vuba vuba akuramo ibicuruzwa agemuye.

Isoko ryo kuri murandasi ryitwa murukari, ukaba ushobora kuguriraho ibikoresho byo mu rugo bitandukanye, harimo imyenda ndetse n'ibikoresho by'amasuku utiriwe uva mu rugo. Ushobora kubigura ukabyishyura, ubundi bakabikuzanira mu rugo i wawe.

Umugabo wambaye ishati y'icyatsi yanditseho Vuba Vuba ndetse yambaye n'ipantaro ya kacye ,yambaye n'ingofero y'ubwirinzi isa nka kacye. Hirya ye hari ipikipiki iriho isanduku y'icyatsi yanditseho Vuba Vuba ishyirwamo imizigo igiye kugemurwa.

Ipikipiki ihagaze ku ruhande rw'umuhanda w'umukara ifite amabara y'umukara ndetse n'umutuku, ku ruhande rw'inyuma yayo hakaba hateretseho isanduku yanditseho vuba vuba ikaba ishyirwamo imizigo iri bugemurwe.

Isoko ryo kuguriraho ibiribwa rikoreshezwa kuri murandasi igihe ufite igikoresho cyawe cy'ikoranabuhanga, ukaba waguriraho ibiryo nk'imboga zirimo amashu, inyanya, ndetse na karoti, n'ibitunguru bakabikuzanira iwawe utiriwe uhava.

Inzu isizemo amarangi y'umweru harimo n'amatara, irimo n'amakaro, ikaba ari inzu iherereye mu mujyi wa Kigali igurishwa. Ikaba igurishwa miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amanyarwanda.

Ubwiherero bwo mu nzu bwo kwicaraho ndetse n'aho kogera umuntu ahahagaze, bukaba buri mu nzu iherereye mu mujyi wa Kigali Kabeza, ikaba ari inzu ifite ibyumba bibiri, ikaba igurishwa miliyoni ijana na mirongo itatu z'amanyarwanda.

Icyumba gisize amarangi y'umweru, harimo urukuta rw'ibirahure rufite n'amarido, harimo igitanda kiriho matera ishasheho amashuka ari mu ibara ry'umutuku ndetse n'imisego y'umweru, kikaba kiri mu nzu iherereye mu mujyi wa Kigali Kacyiru, ikaba ari inzu ikodeshwa amadorari igihumbi na magana atanu ku kwezi.

Inzu yubakishijwe amatafari ya rukarakara ikaba ifite pasiparume hanze, iherereye mu mujyi wa Kigali Kibagabaga, ikaba ari inzu ikodeshwa amadolari igihumbi na magana atanu buri kwezi.

Umugore wambaye ikanzu y'igitenge wirabura, ahagararanye n'umugabo w'umuzungu wambaye ishati y'umweru n'ipantaro irimo umukandara, bahagaze mu byatsi imbere yabo hari pisine.

Inzu isizemo amarangi y'umweru ndetse n'umuhondo ikodeshwa irimo ibikoresho byose harimo ameza, intebe, utubati, ikaba iherereye muri Kicukiro Kagarama ikodeshwa amadorari igihumbi n'ijana buri kwezi.

Igice cyo mu nzu kirimo amakaro akaba ari igice kirimo ubwogero n'ubwiherero bikaba biri mu nzu iherereye mu mujyi wa Kigali i Kanombe bikaba biri mu nzu igurishwa miriyoni mirongo icyenda n'eshanu z'amanyarwanda.

Inzu yubakishijwe amatafari ya rukarakara isize amarangi y'umweru n'umukara, ikaba iri mu gipangu imbere yayo hari umuhanda w'igitaka, ikaba ifite metero kare magana atatu n'eshanu, ikaba igurishwa miliyoni mirongo irindwi n'eshanu i Kigali.

Inzu isize amarangi y'umweru irimo amatara ndetse irimo n'amakaro, ikaba ari inzu iherereye mu mujyi wa Kigali, ikaba igurishwa miliyoni mirongo icyenda n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda.

Inzu isize amarangi y'umweru harimo n'amatara yaka umuhondo, harimo ibikoresho byo mu nzu nk'intebe zo kwicaraho ndetse n'izo kuriraho, ikaba ari inzu iherereye muri kigali ku gisozi ifite ibyumba bine.

Inzu isizemo irange ry'umweru harimo n'igitanda gikozwe mu biti hariho matora iriho ishuka y'umweru ndetse n'imisego, bikaba biri mu nzu iherereye ku Gisozi muri Kigali inzu ifite ibyumba binini.

Ibyatsi bya pasiparumu hateyemo n'ibiti ndetse biri mu rugo akaba ari urugo ruherereye Kacyiru mu mujyi wa Kigali, akaba ari inzu ikodeshwa amadolari igihumbi na magana atanu ku kwezi.

Inzu ifite amarangi y'umweru, umuhondo ndetse n'umutuku ku mabati, ikaba ari inzu iherereye mu Mujyi wa Kigali i Kanombe, ikaba igurishwa miliyoni ijana z'amanyarwanda ifite ubuso bwa metero kare magana atatu mirongo itanu.

Inzu ifite amabara y'umukara hejuru ndetse isize irange ry'iroze, ikaba iherereye mu mujyi wa kigali Kacyiru, ifite icyumba kimwe n'ubwiherero bumwe, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana abiri by'amanyarwanda buri kwezi.

Inzu igeretse inshuro imwe, isize amarangi y'umweru n'umukara, ikaba iri mu gipangu, ikaba ikodeshwa, iherereye muri Kimironko, muri Zindiro.

Inzu igeretse inshuro imwe ifite amadirishya y'umukara ndetse isize n'amabara y'umweru n'imiryango isize ibara ry'umukara, ikaba ari inzu iciyemo ibice bibiri buri gice gifite ibyumba bine ikaba igurishwa amadorari ibihumbi magana abiri na mirongo itanu.

Inzu isize amarangi y'umweru ku nzugi ndetse n'amabara y' iroze ku rukuta, ikaba iherereye muri kicukiro ikaba ifite ibyumba bibiri n'ubwiherero bumwe, ikaba ikodeshwa ibihumbi maganabiri na mirongo itanu ku kwezi.

Inzu yubakishijwe amatafari ya rukarakara isize n'amarangi y'umweru, ikaba iherereye muri Kigali Kanombe ikaba ikodeshwa ifite ibyumba bine ndetse n'ubwiherero butatu, ikodeshwa ibihumbi magana atanu buri kwezi.

Inzu ifite icyumba kimwe cyo kuganiriramo ndetse n'ikindi cyumba kimwe cy'uburyamo; ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali Kacyiru. ikaba ikodeshwa. Ikaba ifite n'aho gutegurira ibiryo, ikabikodeshwa ibihumbi magana abiri by'amanyarwanda buri kwezi.

Inzu isize amarangi y'umweru ndetse n'icyatsi, ku mabati isize amabara y'umutuku ikaba ari inzu ikodeshwa iherereye i Kanombe, i Kigali ifite ibyumba bitatu ndetse n'ubwiherero bubiri, ikodeshwa ibihumbi magana ane by'amanyarwanda buri kwezi.

Inzu yubakishijwe amatafari ya rukarakara, ifite idirishya risize amarangi y'icyatsi, izengurutseho amarangi y'umweru, ikaba ar'inzu iherereye i Kanombe mu mujyi wa Kigali ikodeshwa ku giciro gitoya.

Inzu yubakishijwe amatafari ya rukarakara ndetse isize n'amarangi y'umweru n'umukara, ikaba ari inzu iherereye muri Kigali, Kibagabaga ikaba ikodeshwa ifite ibyumba bibiri ndetse n'ubwiherero bubiri, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atandatu by'amanyarwanda.

Inzu isize amarangi y'icyatsi, ubururu, n'umweru, ifite amabati y'umutuku, ikaba iherereye mu Kagarama, ikaba iri inzu ikodeshwa ifite ibyumba bine ndetse n'ubwiherero butatu. Ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atandatu.

Inzu ifite icyumba kimwe ikaba irimo n'amakaro ifite n'aho gutegurira ibiryo, n'aho kogereza ibyombo, ikaba ifite naho gukarabira, imbere yayo haca umuhanda w'umukara, ikaba ikodeshwa ibihumbi ijana mirongo itanu iherereye i Remera.

Inzu yubakishijwe amatafari ya rukarakara, isize amarangi y'umuhondo, ikaba iherereye mu Mujyi wa Kigali i Kanombe, ikaba inzu ifite ibyumba bine ndetse n'ubwiherero butatu, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana ane by'abanyarwanda buri kwezi.

Inzu irimo amakaro isa neza, ikaba iherereye mu mugi wa Kigali Kimironko, ikaba ari inzu ifite ibyumba bitatu, ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana ane buri kwezi.

Inzu isize amarangi y'umukara umwe ndetse n'iroza n'umuhondo ikaba iherereye muri Kigali muri Kanombe ikaba iri kugurishwa miliyoni mirongo inani n'eshanu z'amanyarwanda ifite ubuso bwa metero kare magana atatu mirongo ine.

Inzu isizemo amarangi y'umweru harimo n'amakaro, irimo abakiriya babiri b'abagabo, yagenewe gucururizwamo ibyo kurya; harimo ibikozwe mu mafarini ndetse n'ibyo kunywa.

Inyubako ndende igeretse inshuro nyinshi ikaba ari inyubako ikorerwamo ubucuruzi butandukanye harimo nk'ubucuruzi bw'imyenda, ubucuruzi bw'ibiryo ndetse n'ubucuruzi bw'ibikoresho by'ikoranabuhanga

Inzu irimo amarangi y'umweru harimo abaguzi benshi ikaba ari inzu icururizwamo imyenda y'abagabo ndetse n'abagore, harimo amakote atandukanye harimo ay'ibara ry'umukara, ubururu harimo n'amashati y'ayo makote.

Inzu icururizwamo ibicuruzwa byinshi, harimo ibikoresho byo mu rugo ndetse n'ibyo kurya, harimo ibikozwe mu mafarini, birimo nk'imigati ndetse n'amakeke, harimo ibyo kunywa nk'amazi n'imitobe.

Ahacururizwa ibyo kurya byo bikozwe mu ifarini, harimo nk'isambusa, amakeke, imigati, biri kugaragara mu kabati gakozwe mu birahuri.

Inzu nini irimo amabara y'umweru ndetse n'amakaro y'umweru n'umukara ikaba ari inzu icururizwamo imyenda myinshi harimo iy'abagore n'iy'abagabo n'iy'abana hakaba harimo imyenda y'amabara atandukanye umutuku umukara'umuhondo n'ubururu.

Inzu isize amarangi y'umuhondo ndetse n'umweru ikaba irimo abantu benshi, hacururizwamo ibiribwa n'ibinyobwa bitandukanye harimo imitobe, amazi, imigati n'amakeke.

Umugabo w'umwirabura wambaye umupira w'umweru hariho ikirango cya RSSB, imbere ye hari ameza ariho icupa ry'amazi y'iyange yo kunywa, afashe indangururamajwi mu ntoki ze.

Umugore wambaye igitenge kirimo amabara y'umutuku n'umuhondo akaba yambaye n'amaherena yicaye ku ntebe y'umukara, imbere ye hari ameza asize ibara ry'umweru yambaye isaha ku kaboko ke k'ibumoso ndetse n'impeta ku kaboko ke k'iburyo.

Icyumba gisize amarangi y'ubururu, hicayemo abantu batatu, babiri harimo umugabo n'umugore bambaye amakoti y'umweru yambarwa n'abaforomo, harimo n'umugore wambaye igitenge, imbere yabo hari imeza iriho amakayi n'ibipapuro.

Ikarita ifite ibara ry'ubururu yanyanditseho ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda rssb ikaba ari ikarita y'umunyamuryango y'ubwisungane mu kwivuza, ufite iyi karita ntarembera mu rugo.

Umugabo wambaye ikoti ry'ubururu, ishati y'umweru, na karuvate, ahagaze imbere y'imbaga y'abantu benshi, afite indangururamajwi mu ntoki ze, ari kubwira amagambo.

Abagore bane, umwe yambaye umupira wicyatsi, babiri bambaye imipira y'umukara, undi yambaye umupira w'umweru, umwe muribo akikiye umwana wambaye agakanzu k'umutuku ndetse numweru bicaye ku ntebe.

Umugabo wambaye ikoti ry'ubururu ishati y'umweru ndetse na karuvati y'ubururu yambaye ipantaro isa na kaki, akaba yirabura afite indangururamajwi mu ntoki ze, ari imbere yimbaga nini y'abantu.

Imbaga y'abantu benshi bamwe bahagaze abandi bicaye ku meza, bafite amakaramu ndetse n'ibitabo bari kwandika, bafite udukarito dutoya dusa ubururu twa mituelle, dufasha abantu kwivuza kwa muganga ku mafaranga make.

Umugabo wambaye ikoti ry'ubururu ishati y'ubururu ahagararanye n'umukobwa wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'umupira w'umukara bari guhererekanya impano inyuma yabo hari icyapa cy'ubururu kiriho RSSB.

Umugore wirabura usutse imisatsi yambaye umupira w'umutuku ndetse n'itaburiya ari gushyira inyanya mu gashashi ndetse n'amacunga ateretse imbere ye ku meza hari na mudasobwa.

Umukobwa wambaye ikoti ry'ubururu ry'ikoboyi n'umupira w'umweru akaba yambaye amadarubindi afite imisatsi isutse ari kugenda areba mu kabati ahateretse ibyo kunywa bitandukanye ndetse n'ibyoku kurya

Isoko rinini ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye harimo ibikoresho byo mu rugo ndetse n'ibiribwa bikozwe mu ifarini, amagi, ndetse n'ibyo kunywa harimo imitobe, amazi, hahagaze umukobwa wambaye umupira w'umuhondo urimo uturongo tw'ubururu uhagararanye n'umuhungu.

Ahacuruzwa ibyo kunywa harimo amata ndetse n'ibindi, hakaba hari umukobwa wambaye imyenda y'umukara ndetse n'imisatsi yayirekuye ategereje ko bamwakira.

Akabati k'icyatsi karimo imbuto nk'imineke n'inanasi, hateretsemo n'amafu, harimo n'ibindi biribwa nk'ibishyimbo by'umutuku ndetse n'iby'umuhondo.

Isoko rinini cyane ribamo ibicuruzwa bitandukanye harimo imikandara imyenda ndetse n'ibyo kurya harimo imbuto zitandukanye harimo amacunga, inyanya ndetse n'imboga.

Isoko rinini ririmo amabara y'umweru harimo n'amakaro hasi. Akaba ari isoko ricururizwamo ibikoresho bitandukanye ndetse n'ibyokurya harimo ibikozwe mu ifarini, harimo amakaroni, imigati, imineke ndetse hanacururizwamo ibyo kunywa nk'amazi ndetse n'imitobe.

Isoko rinini cyane ririmo amatara amurika cyane, hacururizwamo ibikoresho byo mu rugo ndetse n'ibyokurya bitandukanye harimo ibikozwe mu ifarini nk'imigati, imineke, ndetse n'ibyokunywa harimo imitobe n'amazi.

Isoko rinini cyane ririmo amarangi y'umweru hakaba harimo utubati turimo ibicuruzwa byinshi, haba harimo ibyo kurya, ibyo kunywa, nk'amazi ndetse n'imitobe, n'ibyo kurya birimo imigati bikozwe n'ifaririni.

Isoko rinini riba ricururizwamo ibikoresho byo mu rugo harimo n'ibiryo hakaba haba harimo ibikozwe mu mafarini ndetse n'ibinyobwa bitandukanye harimo amazi ndetse n'imitobe harimo n'amavuta yo gutekesha ibiryo mu rugo.